Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bitandukanye biri mu mabara y'umuhondo, umutuku, umweru, harimo n'imyenda y'ubucuruzi.

Umumama urimo gucuruza ibintu bitandukanye, yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umutuku, harimo ibicuruzwa bitandukanye ategereje ko abantu baza kumuhahira.

Abagabo babiri bambaye neza, bahagaze ku mapave imbere y'imodoka iparitse, bari kwamamariza isosiyete ricuruza imodoka ya Akagera motozi.

Inzu nziza cyane iri hafi y'umuhanda, yubakishije amatafari ya ruriba, iri mabara y'umuhondo n'umweru, imihanda yaho hari ubusitani bwiza cyane buri mumabara y'umuhondo n'icyatsi.

Umumama wambaye imyenda y'ubururu uri mu bucuruzi, impande ye hari firigo hari n'intebe z'umweru, ameza ateguyeho igitambaro uko bigaragara, arimo kwakira abantu batandukanye.

Icyapa cyanditseho amagambo agaragaza uko twateganyiriza abana bacu, dushobora guhera ku mafaranga make bityo tukazigamira abana bacu, hari n'ifoto igaragaza uko twazigamira abana.

Inote y'amafaranga ibihumbi makumyabiri yo muri Kongo, iriho ibisimba twita twiga, iriho n'ikibumbano, iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru.

Inzu nziza cyane yo guturamo irimo ibikoresho by'ameza n'intebe biri mu mabara atandukanye; umuhondo, umukara n'ibihogo.

Inyubako nziza cyane kandi ndende cyane, impande yayo hari ubusitani, iri mu mabara y'ubururu, shokora n'umweru.

Mucyumba kinini giteraniyemo abantu batandukanye, barimo abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa, bambaye n'imipira iri mu mabara y'icyatsi.

Inzu nziza cyane, iri mu mabara atandukanye ibara ry'umuhondo, ubururu, umweru n'icyatsi, imbere y'iyo nzu hari moto ihaparitse, hari n'ubusitani bwiza.

Abantu batandukanye biganjemo abamama, bari mu isoko, hari abari gucuruza hari n'abaje gushaka ibicuruzwa. Umumama uhagaze imbere, yambaye ikanzu irimo ibara ry'icyatsi.

Umu mama urimo gucuruza ibyo kurya bitandukanye, birimo n'imbuto z'amoko atandukanye, amarongi, imineke, inanasi, ibishyimbo, yambaye ikositimu y'umukara.

Ahakorerwa imirimo y'ubucuruzi butandukanye, burimo imboga n'ibindi bintu bitandukanye, hari umuntu witandiye waje guhaha, afite ishu rya shufuleri mu ntoki, arimo arabaza ibiciro.

Ku muhanda munini wa kaburimbo, impande y'umuhanda hari imodoka ziparitse ziri mu ibara ry'umweru, hari abanyamaguru, ruguru y'umuhanda hari isoko harimo abantu batandukanye.

Inzu ebyiri, iy'ubucuruzi bw'amasosiyete atandukanye, harimo iya MTN ndetse n'iya Airtel, ziteretse hafi y'umuhanda aho bari gukorera ubucuruzi.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ukorera isosiyete y'itumanaho ya Emutiyene, ahagararanye n'abagabo babiri harimo uwambaye ikabutura y'ubururu n'umupira w'umweru, n'uwambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Inzu y'ubucuruzi y'isosiyete y'itumanaho ya MTN, irimo abantu batandukanye. harimo abakira abakiriya, harimo n'abakiriya bicaye baje bagana iyo serivisi.

Supamaketi iherereye Kimironko harimo ibicuruzwa bitandukanye, birimo imineke, inanasi, inyanya na karoti, bagabanyije ibiciro ku buryo byavuye ku ku bihumbi mirongo itandatu na birindwi na magana atanu, bijya ku bihumbi mirongo itanu na bine na magana atanu.

Umugabo wishimye urimo guseka cyane, wambaye ishati y'icyatsi, akaba avuye guhaha ibiribwa birimo karoti n'imboga, impande ye hari igisanduku cyanditseho vuba vuba, uko bigaragara ni kampani akorera.

Inzu nziza iri i Kigali mu Rwanda, irimo intebe nziza, igaragaza amafaranga ushobora kuyikodesha, ko ari amadorari magana atanu mirongo itanu.

Inzu nziza cyane, iri i Kibagabaga yo guturwamo, ikaba ishobora kwishyurwa ibihumbi magana atatu, ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri.

Inzu nziza cyane yo guturwamo iherereye Kimironko muri Kigali, yubakishijwe amatafari ahiye, iri mu mabara meza cyane y'umukara n'umweru n'umuhondo, impande yayo hari ubusitani buri mu mabara y'icyatsi.

Icyapa kinini cy'umweru kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, gishushanyijeho umuhanda, kigaragaza compani ya Reyari ku buryo yubakira abantu.

Abantu benshi batandukanye bari mu isoko, baje guhaha, harimo abagabo n'abagore, barimo guhaha, harimo abakenye ibitambaro biri mu mabara y'iroza, hari n'imodoka iparitse.

Mu nzu nini y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye, biri mu mabara y'umweru, umuhondo n'ubururu, hari abantu batandukanye baje guhahiramo, hari n'amashakoshi ari mu mabara atandukanye y'abadamu.

Iduka rinini ririmo ibyo gucuruzwa bitandukanye biri mu mabara atandukanye, harimo ibiri mu mabara y'umuhondo, umutuku, ubururu, umukara, umweru ndetse na move.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bitandukanye, irimo n'abantu baje guhahiramo, umugabo wambaye ishati y'umweru, wikoze mu mifuka yambaye n'agapfukamunwa n'ipantaro y'umukara, irimo n'uwambaye umupira w'umuhondo witeguye kwakira abakiriya.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'icyatsi n'umuhondo, cyanditseho amagambo agira ati ejo heza, kiriho ifoto y'umugabo n'umugore bari guseka.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo Ejo heza, kigaragaza uko umuntu yakwizigamira akiri muto kugira ngo nagera mu zabukuru bitazamugora, kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Inzu yubucuruzi irimo ibintu bitandukanye biri mu ibara ry'ubururu, umweru, umutuku n'umuhondo, hari umugabo uhagazemo wambaye ishati y'ibara ry'umukara n'umweru n'ipantaro y'ubururu, arimo arareba ibyo ashobora guhahira aho.

Inzu y'ubucuruzi bugezweho, irimo ibintu bitandukanye bicururizwamo, biri mu mabara y'umuhondo, y'umutuku, umweru, ubururu, biteguye kwakira ababagana.